Abantu bane bari mu nzu, irimo intebe nyinshi, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, akaba ari abagabo babiri, n'abagore babiri, imbere yabo hakaba hateretse amatelefoni n'amashakoshi.

Abantu batatu harimo umugore umwe wambaye agasengeri k'icyatsi karimo utudomo tw'umweru, n'undi mugabo urimo hagati ufite mikoro wambaye umupira w'umukara, hakaba hari undi mugabo wambaye ishati y'umukara irimo uturongo tw'umweru, imbere yabo hakaba hateretse uducupa tw'amazi n'ikayi.

Abagore bicaye mu ntebe z'umuhondo hakaba harimo umugore umwe wambaye imyenda ya pinki( iroza, pink) akaba yitandiye, hirya y'aho hakaba hari undi mugore wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abandi bantu bose bari muri iyo nzu bakaba bambaye imyenda y'ubururu, imbere y'umugore wambaye imyenda ya pinki( iroza, pink) hakaba hari agacupa k'amazi bakaba bari munzu.

Abantu benshi bicaye barimo abagore n'abagabo bakaba bicaye ku ntebe z'imikara, akaba ari abagore babiri bicaye imbere bari kwandika ku mpapuro imbere yabo hakaba hateretse uducupa tw'amazi y'inyange.

Abantu benshi, bakaba bari mu nzu, ifite inkuta ndende zifite ibara ry'umweru, imbere yaboba hari amameza afite ibitambaro by'umutuku, ndetse akaba n'umugore uhagaze imbere yaba wambaye ikanzu y'umweru, irimo uturongo tw'umukara.

Abantu bari mu nzu akaba babiri bagaragara, umwe akaba yambaye agapira k'icyatsi karimo uturongo tubonerana akaba ari kwandika mu ikaye.

Abantu benshi harimo abagore, abagabo bakaba bicaye mu mbuga irimo ibyatsi, hakaba hari umuntu umwe uhagaze wambaye ijire y'umukara n'ipantaro y'umukara utagaragara neza mu maso.

Inzu ifite inkuta z'umweru parafo y'umweru ndetse n'amadirishya ariho amarido ikaba irimo abantu benshi bagiye batandukanya abagore abagabo imbere yabo akaba ari ameza afite ibitambaro by'ubururu ndetse n'iby'umuhondo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'imikara, hakaba harimo abagore n'abagabo bakaba bari mu nzu ifite amarido y'umweru, ndetse n'inzugi z'ubururu zifite ibirahuri bibonerana, imbere y'abicaye imbere hakaba hari uducupa tw'amazi ndetse n'ikayi n'imashini.

Inzu irimo abagabo ndetse n'abagore ikaba ari inzu nini ifite inkuta z'umweru ndetse na parafo y'umweru hagati yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye ikositimu y'umukara.

Abantu batatu barimo abagore babiri n'umugabo umwe wambaye ikote rya kositimu n'ishati y'umweru, imbere yabo hakaba hateretse amamashini n'uducupa tw'amazi y'inyange.

Abantu bambaye imipira y'ubururu, bakaba bicaye mu ntebe z'umweru, imbere yabo hakaba hari abantu batatu, umwe wambaye ikoti ry'umukara, n'agapira k'ubururu, akaba ari umugabo n'umugore, wambaye agakanzu k'umukara, n'undi wambaye ishati y'ubururu, n'akajire k'umukara akaba ari umugore, imbere ye hakaba hateretse ubucupa butatu bw'amazi.

Umugore w'inzobe wambaye amarinete afite ibirahure bibonerana, akaba yambaye ikote rikozwe mu gitenge hamwe n'agapira k'umuhondo mo imbere, akaba afite mikoro.

Abantu benshi barimo abagore bambaye imikenyero n'abagabo bambaye amakositimu, gusa hakaba harimo n'abandi batambaye ikositimu, bakaba bahagaze imbere yinzu.

Abagabo bane bicaye mu ntebe hakaba harimo umuzungu umwe wambaye ikositimu yumukara ishati y'umweru akaba afashe mikoro areba iburyo, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini cy'umweru.

Bane harimo uwambaye kositimu y'umukara ndetse na karavati y'umukara, akaba yambaye ishati y'umweru n'amarineti afite ibirahuri bibonerana, akaba yicaye ku ntebe y'umukara, imbere yabo akaba hari ameza, umwe muri bo akaba imbere ye hateretse imashini ya laputopu.

Abantu benshi bari muri sale ifite inkuta z'umweru, intebe z'ubururu bwerurutse, intebe z'imbere zikaba ari umukara, zikaba zicayemo abantu benshi.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bamwe bakaba bicaye abandi bakaba bahagaze, bari mu nzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, ikaba ifite parafo y'umweru ndetse imbere yabo akaba hari ameza y'umutuku ariho uducupa ndetse n'ishakoshi.

Abantu batatu harimo abagore babiri bambaye umwe akaba yambaye agakote k'umutuku n'agashati k'umweru undi akaba yambaye ikote ry'umukara n'agapira k'umweru urimo hagati akaba yambaye rinete akaba yarebye umugabo, umugabo akaba yambaye agapira agashati kajya gusa nk'ubururu k'amaboko magufiya akaba ari kuvugira kuri mikoro bakaba bicaye mu intebe z'imikara.

Abantu benshi barimo abagore, abagabo bakaba bafite impapuro mu ntoki, inyuma yabo hakaba hari ibikuta bifite ibara ry'umweru, bakaba bicaye ku ntebe z'imikara.

Abantu benshi bicaye mu nzu bakaba bari mu nzu y'umweru ifite parafo y'umweru ikaba ifite inzugi n'amadirishya by'umweru bifite ibirahuri imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku.

Abantu benshi bari mu nzu nini, ikaba ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, abari imbere, imbere yabo hakaba hari imeza ifite igitambaro cy'umuhondo n'icyatsi, imbere yabo hakaba hateretse amazi ndetse n'uducupa twa ji.

Inzu ifite inkuta z'umweru ikaba irimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hakaba hateretse uducupa tw'amazi bamwe na bamwe imbere yabo hakaba hateretse n'amamashini.

Abantu bari mu nzu bakaba ab'imbere, imbere yabo hari imeza ndende y'umutuku, bakaba bicaye mu ntebe z'umukara, abicaye imbere akaba imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Abantu benshi bicaye mu ntebe z'umukara, bakaba bari mu nzu nini ifite inkuta z'umweru, imbere yabo hakaba hari icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hakaba hari umugabo uhagaze imbere yabo ufite mikoro wambaye kositimu y'umukara.

Abantu batanu bicaye harimo abagore babiri n'abagabo batatu, imbere yabo hakaba hateretse amamashini, bakaba bari ku meza ifite ibitambaro by'umweru.

Abantu benshi bicaye barimo abagore n'abagabo, imbere yabo hakaba hari abandi bantu bahagaze, harimo umugabo ufite urupapuro n'undi mugabo wambaye impuzankano z'icyatsi.

Abantu benshi bari munzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, inyuma hakaba hari mikoro imanitse, bakaba bicaye, hakaba hari abicaye imbere, imbere yabo hakaba hari imeza ifite igitambaro gifite ubururu, bakaba biteretse amazi imbere.

Abantu batatu. Barimo, abagabo babiri, n'umukobwa umwe. Bose bakaba bahindukiye, bakaba bicaye ku ntebe z'imikara inyuma yabo hakaba hagaragara umweru.

Abantu bari mu nzu ifite amarido y'umweru, ikaba ifite ahasohokera umuyaga, hafite ibara ry'umweru ari ku gikuta, hakaba harimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'imituku.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bakaba bari mu nzu, bakaba bicaye ku ntebe z'imikara. Hakabamo abagore babiri: umwe akaba yambaye ikanzu y'umuhondo, undi akaba yambaye iya oranje, hakaba harimo n'abandi bagore batagaragara neza.

Abantu benshi bari mu nzu nini gusa bakaba batagaragara neza, imbere yabo hakaba hari abantu babiri umugabo, n'umugore, umugabo wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru na karuvate, n'umugore wambaye ikote ririmo ibara ry'umweru n'utudomo tumwe tw'umukara, n'ijipo y'umukara, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini kirimo ibara ry'umweru.

Abantu benshi barimo abagore abagabo, bakaba bari muri sale nini ifite ibara ry'umweru, ku nkuta no hejuru hakaba hari ibara ryumweru.

Abantu benshi bari mu nzu bakaba bambaye imipira y'umuhondo abandi bakaba bambaye imipira y'icyatsi, imbere hakaba hari abantu batatu bambaye imipira y'icyatsi. Imbere yabo hakaba hateretse uducupa tw'amazi y'Inyange ndetse n'utundi ducupa twa ji z'Inyange.

Abantu benshi bicaye mu inzu ifite inkuta z'umweru, amakaro y'umweru arimo n'umukara muke, bose bakaba bazengurutswe n'ameza maremare, imbere yabo hakaba hateretse ubucupa bw'amazi.

Iyi inzu irimo intebe nyinshi hakaba harimo abantu, imbere yabo hakaba hateretse uducupa tw'inyange, mikoro ndetse hakaba hari n'udukapu.

Abagabo bambaye udupira tw'ubururu ndetse hakaba hari n'abandi bagabo babiri batambaye imipira y'ubururu, barimo uwambaye umupira ujya gusa nka pinki yerurutse ndetse n'uwambaye ikote ry'umukara harimo ishati ya karo karo, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru.

Abantu barimo abagore bambaye udupira tw'ubururu n'abandi batambaye imipira y'ubururu, bakaba bari mu nzu bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hakaba hari ameza ariho agatambaro k'umweru n'umuhondo.

Abantu benshi bicaye muri tenti y'umweru ku ntebe z'imikara, hakaba harimo abagabo, hakaba harimo n'abagore gusa batagaragara neza, imbere yabo hakaba hahagaze umugabo ufite mikoro wambaye ishati ya karokaro.

Abantu benshi bari mu nzu ifite ibitambaro by'umuhondo ndetse n'icyatsi ku nkuta, bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hakaba hari ameza agiye ari ibitambaro by'umweru. Hakaba ari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ipoto rirerire rifite amasahane hejuru gusa ritagaragara neza rikaba rigaragara nk'umukara, inyuma yaryo hakaba hagaragara igicu cy'umweru.

Rirerire rifite ibara ry'umutuku umweru rikaba imbere yaryo hari akazu k'umuhondo inyuma yaryo hakaba hagaragara ibiti. Hakaba ari abantu bahagaze imbere yaryo gusa batagaragara neza.

Abantu benshi bari munzu ifite inkuta z'umweru; imbere yabo hakaba ari ameza ariho amamashini ya mudasobwa menshi mu ibara ry'umukara, hakaba hari abagore babiri bahagaze n'undi mugabo umwe wunamye.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ya ruriba, kikaba gifite igipangu cy'icyatsi, mo imbere hakaba harimo inzu ndende ifite ibara ry'icyatsi.

Umugore wicaye imbere y'icyapa, cyanditseho irembo kikaba gifite ibara ry'umweru hakaba hariho kamera n'abagabo babiri.

Abantu batatu batagaragara mu maso hakaba harimo umuntu umwe w'umugore ufite imisatsi, akaba afite laputopu imbere ye, ibiganza bye bikaba biri kuyikoresha, ikaba iteretse ahantu hari agacupa k'amazi.

Umugabo uhagaze wambaye ijiri y'icyatsi ndetse irimo n'umukara, akaba yambaye inkweto z'umweru zifunguye n'ipantaro y'umukara imbere ye akaba ari icyapa cy'irembo akaba ari icyapa kigaragaza serivisi zikorerwa ku nzu imwegereye.

Abantu bane bakaba bicaye bari mu nzu, ifite ibara ry'umweru, amarido, hirya hakaba harimo etajeli turiho ibitabo bitagaragara neza hakaba hari abandi bantu babiri bahagaze, gusa umwe muri bo akaba atagaragara neza.

umunara muremure ukaba ufite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, akaba ari umunara hejuru ufite ibindi bintu bimanitseho, hakaba hagaragara hejuru yaho igicu cy'ubururu n'umweru.

Umunara muremure ufite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru, ukaba ugiye ufite ibisahani byinshi biriho hejuru hakaba hagaragara igicu.

Abantu benshi bambaye imipira ijya gusa nk'umutuku wijimye ndetse n'amapantaro y'imikara bakaba bafite imidari akaba arimo abahungu ndetse n'abakobwa inyuma yabo hakaba hari abandi bantu batambaye imipira y'imituku.

Abantu babiri barimo umugabo umwe wambaye ingofero y'umweru, ijire y'icyatsi, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara hakaba harimo n'umugore wambaye ingofero y'icyatsi, ijire y'icyatsi, umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi y'umweru, imbere yabo hakaba hari umunara.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho MTN, inyuma yacyo hakaba ari umunara muremure ufite ibara ry'umutuku n'umweru, hakaba hari amasahani menshi imbere yaho hakaba hari kunyura abamotari babiri bari muhanda wa kaburimbo.

Ipoto rirerire ry'amashanyarazi, rikaba ryegenye n'inzu ifite iminara myinshi, hejuru kuri iyo nzu hakaba hari iminara myinshi ya interineti,

Inzu ifite igipangu gifite amadirishya n'inzugi by'icyatsi hirya yayo hakaba hari indi nzu ifite igipangu cyubakishejwe amatafari ya mpunyu hirya hakaba hagaragara ipoto ry'amashanyarazi rifite insinga nyinshi.

Ipoto ndende yegeranye n'indi poto itari ndende cyane, imwe ikaba ifite itara rimurika mu muhanda inariho insinga nyinshi z'amashanyarazi, inyuma yabyo hakaba hari imodoka ebyiri, imwe yo mu bwoko bwa lava y'umweru, n'indi y'umukara y'ivatiri, hirya hakaba hari abantu benshi.

Umunara muremure w'amashanyarazi, akaba ari umunara urimo ibyuma byinshi bigiye bisobanyije hirya yaho hakaba hari undi munara bisa nawo w'amashanyarazi imbere yaho hakaba hari ipoto ry'amashanyarazi.

Icyapa gifite ibara ry'umweru kikaba cyanditseho inyuguti ziri mu ibara ry'umutuku n'umukara akaba inyuguti zanditse mu mutuku zanditseho Rege, imbere yacyo hakaba hari ipoto ritagaragara ryose.

Iri poto rirerire rikaba riri inyuma y'akazu ka mtn, gafite ibara ry'umuhondo akaba ari gato, imbere yako hakaba hari umuhanda w'ibitaka uri kunyuramo umugore wambaye ikintu cyo hejuru cy'umukara ndetse n'ikanzu y'umweru. Inyuma yayo hakaba hari amazu abiri agaragara ibisenge.

Moto ebyiri ziparitse, zikaba zifite ibara ry'icyatsi ndetse naho bicara h'umukara, imbere yazo hakaba ahahagaze ahantu, harimo umukobwa wambaye ingofero ndetse n'agapfukamunwa k'umukara.

Abantu bari mu muhanda wa kaburimbo, hakaba harimo babiri batwaye amagare n'undi muntu umwe ubarimo hagati wambaye ikabutura itagaragara neza ufite igikapu mugongo.

Amapoto atatu agiye ari ku murongo umwe akaba ari ay'amashanyarazi, akaba ariho insinga nyinshi. Aho hantu hakikijwe n’indabyo n’ibiti. Hirya gato, hari inzu y’amategura itagaragara neza. Imbere y’ayo mapoto, hakaba hari umuntu utagaragara.

Igipangu cy'umukara kikaba kiriho icyapa cyanditseho mirongo itatu na gatatu, imbere muri icyo gipangu hakaba harimo inzu ifite igisenge cy'amabati y'umutuku.

Ipoto rirerire ririho itara rikaba riri n'insinga z'amashanyarazi, imbere yaryo hakaba hari kaburimbo, inyuma yaryo hakaba haparitse imodoka y'umukara y'ivatiri ndetse n'imbere yayo hakaba hari guca imodoka m'umuhanda wa kaburimbo na moto.

Inzu ifite igipangu cy'umweru cyanditseho mützig, ikaba ifite geti y'icyatsi, imbere yayo hakaba hari ipoto ifite icyapa cyanditseho fo ji, mu gihe ku muhanda w'iyo nzu hari kunyura abantu babiri n'umumotari utagaragara ugaragara kasike gusa.

Ipoto rirerire rifite utwuma twinshi tugiye tunyuramo hagati, ukaba uriho insinga z'amashanyarazi, akaba ari rirerire cyane.

Ipoto rirerire ririho insinga z'umukara, hirya yaryo hakaba hari iyindi poto itagaragara neza, inyuma y'ayo mapoto hakaba hari ibiti byinshi.

Inzira y’abanyamaguru ikaba irikunyuramo n’abantu babiri. Hirya yabo hari abandi bantu bahagaze, harimo umumotari wicaye kuri moto utagaragara neza. Imbere ye hari umutaka w’umuhondo, ndetse hari ipoto rirerire iriho insinga nyinshi z’amashanyarazi, hirya yaho hakaba hari icyapa cyanditseho sitiri Rwa.

Ipoto rirerire riri muri jaride irimo uduti n'ibyatsi. Inyuma yaryo, hakaba hari igipangu ndetse n'amazu agaragara ibisenge.

Ipoto rirerire ry'amashanyarazi rikaba ari ipoto ryo mu cyuma gusa akaba ari ibyuma byinshi bigiye bibusanyije, rimeze nk'urwego rikaba riroho insinga nyinshi imbere yaryo hari ibiti.

Ipoto ririho itara rimurika mu muhanda rikaba ryegeranye n'ibindi biti, inyuma yaryo hakaba hari inzu igaragara igice nk'igipangu cyayo.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ya mpoyo n'amabuye asize ibara ry'umweru n'umukara, imbere ya cyo muri jaride hakaba harimo ipato ry'amashanyarazi, hirya hakaba n'ikindi gipangu cy'icyatsi.

Amashanyarazi rinyuraho insinga nyinshi rikaba imbere yaryo hari ibiti, inyuma yaryo hakaba hari inzu ifite igipangu cy'umweru, ikaba igaragara igisenge kiriho amabati y'umukara, hirya naho akaba hari indi nzu ifite igisenge gifite amabati y'umukara.

Inzu igaragara inkingi nyinshi, ikaba ifite korodor ndende, ikaba nta muntu n'umwe urimo, imbere hakaba hagaragara indi nzu yubakije amatafari ya mpunyu.

Inzu yubakishijwe amatafari ya munnyu ikaba ifite amadirishya afite ibirahuri bibonerana imbere yayo hakaba hari intebe z'umweru ziticayeho abantu gusa imbere y'izo ntebe hakaba hari umugore umwe wambaye japa y'umweru ndetse n'ikanzu y'umutuku akaba afite ibipapuro mu ntoki hirya naho hakaba hagaragara abandi bantu bicaye.

Abantu babiri barimo: umugabo umwe wambaye itaburiya y'umweru, n'umugore wambaye itaburiya y'umweru, hakaba hari undi muntu uryamye ku gitanda, bakaba bari mu nzu irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye.

Inzu nini, ifite parafo y'umweru, ikaba iriho amatara ari kwaka umweru, ikaba irimo ibitanda byinshi biryamyeho abantu, akaba ari ibitanda bifite ibara ry'umweru, bisasheho amashuka y'umweru, hakaba hari n'amarido y'ubururu.

Imodoka itagaragara neza igaragara inyuma gusa ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, imbere hakaba hari guturukayo moto, uwo muhanda hirya yawo hakaba hari amazu, menshi afite ibara ry'umweru ndetse hakaba n'akazu k'umuhondo gahagazeho imbere abantu babiri.

Umugore wambaye agapfukamunwa ufite imisatsi myinshi idasuwitse, akaba yambaye umupira w'umweru ipantaro y'ikoboyi n'inkweto z'umweru, akaba afite amverope ebyiri; hakaba hari n'undi mugabo wunamye utagaragara mu mumaso wegeranye n'umugore wambaye ishati y'umukara.

Inzu ifite inkuta z'umweru, ikaba ifite amadirishya abonerana, harimo amarido y'ubururu, intebe nyinshi ndetse n'akagare k'abafite ubumuga.

Umugore wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ipantaro imbere ye kabaparitse imodoka y'ivatiri y'umweru akaba ari mu mbuga, mu gihe imbere ye hari ikigega kimanitse hejuru, hakaba hari itara ryo mu muhanda rifite ipoto ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uparitsemo imodoka ebyiri n'indi iri guturuka inyuma ifite ibara ry'umweru, iziparitse imbere hakaba harimo iy'umweru n'iy'umutuku, imbere yazo hakaba hahagaze umupira wambaye agapira k'icyatsi n'ipantaro y'umukara.

Umugore w'umwirabura, ufite imisatsi idasutse, akaba afite iherena ry'umweru, akaba yambaye ishati y'umweru, n'ikanzu y'umukara irimo utuntu tw'umweru, akaba ari kureba ibintu muri etajeri.

Inzu ifite inkuta zisize ibara ry'umukara n'umweru, ikaba ifite urugi ruriho ikimenyetso cy'umuntu ugendera mu kagare, hirya hakaba hagaragara ravabo y'umweru, hakaba hari ibase iri hasi itagaragara neza.

Umuhanda urimo abantu bagiye batandukanye hakaba haparitse umumotari ufite kasike z'icyatsi mbere hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara nimbere ye hakaba hari abagore babiri bafite ibintu mu ntoki bakaba bambaye amakanzu.

Inzira zirimo povoma ya sima, imbere yayo hakaba hari guturukayo umugore wambaye agapira k'umweru n'ipantaro, akaba ari inzu hagati harimo jaride.

Iri hirya y'umuhanda ikaba igifite igipangu gisa n'umweru imbere yacyo hakaba haparitse imodoka eshatu, imwe ika ifite ibara ry'icyatsi indi ikaba ifite ibara ry'umweru imbere yayo hakaba hari umu motari uri mu muhanda.

Inzu nyinshi imbere yazo hakaba hahagaze umugabo wambaye umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara hirya yazo hakaba hari amamodoka aparitse atagaragara neza, imbere yazo hakaba hari imikindo itatu.

Abantu benshi bahagaze harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hakaba haparitse imodoka z'ambiranse zifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku.

Jaride irimo indabyo ndetse na pasiparume, imbere yayo hakaba haparitse amamodoka, arimo ay'ambilanse n'andi mamodoka asanzwe, akaba afite ibara ry'umweru, inyuma yayo hakaba hari inzu nini.

Wambaye ikositimu y'umukara ndetse ishati y'umweru karuvate y'umukara, akaba yambaye amarinete afite ibirahuri bibonerana, akaba yambaye n'akagozi mu ijosi k'umutuku, akaba imbere ye hari mikoro.

Benshi bari mu nzu nini, irimo intebe nyinshi, hakaba harimo abagore n'abagabo, kabari umugabo umwe uhagaze, n'undi wicaye wenyine, imbere ye hakaba yateretse mikoro.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikanzu y'umutuku akaba yambariyemo ishati na karuvate itagaragara neza y'umukara, inyuma ye hakaba hagaragara umweru.

Inzu nini ifite parafo y'umweru amakaro y'umweru inkuta z'umweru ikaba irimo intebe nyinshi z'umutuku hakaba irimo abantu benshi bicaye nundi muntu uhagaze uzamuye ikiganza wambaye ikanzu y'umukara inyuma ye hakaba harundi muntu wicaye nawe wambaye ikanzu yumukara ngapfukamunwa.

Abantu benshi bicaye barimo abagabo n'abagore, hakaba harimo abari imbere yabo bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari imeza; imbere yabo hakaba hari umugabo umwe uhagaze hagati yabo.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku mo imbere akaba yambariyemo ishati n'undi mupira, inyuma ye hakaba hari ibara ry'umweru, akaba ari umugabo w'umwirabura.

Umugabo wambaye amarinete afite ibirahuri bibonerana, akaba yambaye ikanzu y'umutuku ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, mo imbere akaba yambayemo karuvati y'umukara n'ishati y'umweru inyuma, hakaba hagaragara ibara ry'umweru.

Inzu nini ikaba irimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'imikara, hakaba hari abagabo bari hirya, imbere yabo hakaba hari ameza ariho uducupa tw'Inyange hakaba harimo umugabo umwe wambaye imyenda y'iroza, hakaba hari abandi bari imbere bahagaze bambaye amakanzu y'imikara.

Inzu nini ifite inkuta za kacyi, ikaba ifite purafo iririmo amatara y'umweru, hakaba harimo abantu benshi batagaragara neza, imbere yabo hari ameza afite ibitambaro by'umukara.

Wambaye agapfukamunwa akaba yambaye imyenda y'iroza akaba afite ikaye mu ntoki y'ubururu, imbere ye hakaba hari ameza ariho amamikoro gusa hakaba hari andi meza atagaragara.

Benshi barimo abagabo, hakaba barimo umugore umwe. Bakaba bambaye amakanzu y'umukara ndetse afite ibara ry'umweru. Bakaba bamanitse ikiganza cy'iburyo, imbere yabo hakaba hari amadarapo afite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Akaba ari amadarapo y'u Rwanda. Imbere hakaba hari undi muntu wambaye ikanzu y'umutuku n'ingofero y'umukara.

Umugabo wambaye ikanzu yumutuku ndetse harimo n'akabara k'umweru akaba yambariyemo imbere ishati, akaba ari umugabo w'umwirabura, inyuma ye hakaba hari igihu cy'umweru kitagaragara neza.

Igipangu kirekire cyubakishijwe amatafari ya mpunyu, imbere yacyo hakaba hagaragara abagabo benshi bambaye imyenda y'iroza, ndetse n'inkweto zifunguye, hirya hakaba hariyo ikindi gipangu gifite ibara ry'umutuku.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ifite ibara ry'umweru hagati aho bafungira mo imbere akaba yambaye ishati na karuvate akaba yambaye amarinete afite ibirahuri bibonerana n'ingofero inyuma hakaba hagaragara umweru.

Abapolisi batatu n'umugabo umwe wambaye ikositimu y'umukara na karuvati y'umutuku n'ishati n'umweru, akaba yambaye n'agapfukamunwa, inyuma yaho hakaba hari undi mugabo nawe wambaye agapfukamunwa, wegereye imodoka ya RIB iri mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Umugabo wambaye imyenda y' iroza, ufite agapfukamunwa k'umweru, akaba afite ikayi mu ntoki, akaba ari ikayi ya rogisitire, ifite ibara ry'ubururu, akaba yicaye mu ntebe y'umukara.

Umugore wambaye amarinete afite ibirahure bibonerana, akaba yambaye ingofero ndetse n'ikanzu, inyuma ye hakaba hagaragara ibara ry'umweru.

Bari mu inzu bakaba bicaye ku ntebe zijya gusa nk'umuhondo bakaba bambaye imyenda y'iroza n'ugupfukamunwa imbere yabo hakaba hateretse amamashini inyuma akaba hari umusirikare akaba ari umusaruveya wambaye imyenda ya kake.

Umupolisi uhagaze utagaragara mu maso, akaba yambaye impuzankano za gipolisi, zikaba zirimo, zikzbz ari ibara ry'umukara, harimo n'utuntu tw'icyatsi.

Imodoka y'umutuku itwara imizigo imbere yayo hakaba ari abantu benshi, ndetse hakaba hagati harimo abantu bari gucuruza amazi bambaye imyenda y'umukara, ndetse irimo n'icyatsi bakaba bambaye ingofero z'umweru.

Moto ifite ibara ry'umweru ikaba ifite amapine y'umukara, imbere hakaba hahagaze abapolisi bambaye impuzankano z'umukara, babiri bakaba bambaye amajire afite ibara ry'umukara ndetse n'uturango tw'icyatsi,

Umupolisi wambaye impuzankano z'umukara zirimo utungo tw'icyatsi, akaba yambaye agapfukamunwa k'umukara, akaba ari kumwe n'undi muntu ufite igitambaro uri gutwikira, wambaye ishati y'umweru, akaba yambaye agapfukamunwa k'umweru, nyuma ya hakaba hari abandi bantu bahagaze benshi.

Icupa rya kizimyamwoto rifite ibara ry'umutuku rikaba rifite umupira w'umukara, rikaba rimanitse ku gikuta, hasi hakaba hari agatebo bashyiramo imyanda.

Imodoka ziri ku murongo zikaba zifite ibara ry'umweru n'ubururu bukeya, akaba ari imodoka zirenze ebyiri ziri ku murongo; hakaba hari abantu bari imbere yazo batagaragara neza.

Umupolisi wambaye ingofero y'umukara, ikoti ry'umukara, n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara ikaba yambaye ijire irimo uturongo tw'icyatsi, imbere hakaba hari moto n'indi modoka itwara abagenzi muri rusange akaba ahagaze mu muhanda.

Icupa ry'umuhondo rya kizimyamwoto rikaba riteretse ahantu, hirya hakaba hari urukuta rw'umweru ndetse n'izindi kizimyamwoto zitagaragara neza nazo z'umutuku, inyuma yazo hakaba hari ibikarito.

Imodoka y'umweru, inyuma yayo hakaba hari indi modoka itagaragara neza, ifite ibara ry'umukara n'umweru, hakaba hari na moto ebyiri ziri imbere yayo. bikaba kunyura mu muhanda wa kaburimbo.

Icupa rya kizimyamwoto rifite ibara ry'umutuku, rikaba rifite umupira cyangwa se ibihombo by'umukara, rikaba riri ku gikuta cy'umweru.

Icupa rifite ibara ry'umutuku rikaba rifite n'umupira w'umukara, rikaba rimanitse ku gikuta, igikuta gifite ibara ry'umweru. Imbere yacyo hakaba hari imeza igaragara umwenda wayo, hakaba hari n'akantu babijugunyamo umwanda gafite ibara ry'umukara.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara irimo uturongo tw'icyatsi bakaba bambaye ingofero z'umweru bakaba bafite umupira w'umutuku uri gupuriza amazi inyuma y'abo hakaba hari ikinyabiziga cya howo kinini gitwara imizigo kikaba kijyanye n'abantu benshi.

Ibicupa bibiri by'umutuku bya kizimyamwoto bikaba biteretse hasi, hirya yabyo hakaba hari ibara ry'umweru, bikaba bifite imipira y'umukara.

Imbuga y'umweru ifite esikariye inyuma, imbere yayo hakaba hari umugabo utagaragara neza, wambaye ingofero y'icyatsi, isarubeti y'umukara, akaba ari kuyimenaho amazi, akoresheje umupira ufite ibara ry'umutuku.

Abantu bahagaze harimo abapolisi babiri bambaye amakoti y'icyatsi n'amapantaro y'imikara, imbere hakaba hari amamodoka atagaragara neza. Hakaba hari umugore wambaye ijire y'icyatsi wicaye mu mutaka w'ibara ry'umutuku.

Umugabo wambaye isarubeti y'umukara aririmo uturongo dusa n'umweru akaba afite kizimyamwoto ifite ibara ry'umutuku, imbere hakaba hicaye abandi bantu benshi bambaye amashati y'umweru na kaki n'amapantaro ya kaki batagaragara mu maso.

Kotwari riho imashini, imbere yayo hakaba hicaye abantu batatu, abagore babiri, umugabo umwe utagaragara isura, imbere ya kotwari hakaba hahagaze umuntu wambaye ikositimu y'umukara.

Icyapa kimanitse hejuru ku gipangu cyanditseho twitabire amatora, inyuguti zikaba ziri mu ibara ry'umukara, icyapa kikaba ari ubururu burimo umuhondo n'icyatsi gikeya, imbere yacyo hakaba hari abaturage benshi.

Abantu benshi, bari mu nzu nini, irimo intebe nyinshi, akaba hari abicaye imbere harimo umukuru w'igihugu w'u Rwanda, hizi egiserensi Paul KAGAME, warebye hirya n'umufasha we, Jeannette KAGAME hagati yabo akaba hari n'undi mugabo, umwe.

Umugore wicaye ufite ikayi y'ubururu cyangwa se igitabo, akaba yambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru n'amarinete abonerana, imbere hakaba hateretse mikoro.

Abagore barimo n'umugabo umwe, bakaba bambaye imikenyero, uwo mugabo akaba yambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru n'inkweto z'umukarawa, bakaba bamanitse ibiganza by'iburyo, bari imbere y'amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara, akaba ari umwirabura inyuma ye hakaba hariho ikirangantego cy'u Rwanda, ndetse n'ibara ry'ubururu imbere ye hakaba hari igikombe n'icupa ry'amazi bitagaragara neza.

Abantu benshi bahagaze barimo abagore benshi bambaye imikenyero igiye itandukanye, ifite amabara atandukanye, hakaba harimo n'abandi bagabo bagaragara gusa batagaragara cyane bambaye ikositimu z'imikara, bakaba bari ahantu ku ma esikariye, inyuma yabo hakaba hari ibiti n'amazu atagaragara neza.

Abantu benshi bambaye imipira y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru ziriho idarapo rya efuperi riri mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu. Bamwe bakaba bafite ibishushanyo bimanitseho amafoto hizegiserensi Paul Kagame, abandi bakaba bafite amadarapo menshi.

Benshi bicaye n'abandi bahagaze, abicaye bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru hakaba hari n'abahagaze imbere y'akazu gafite ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi batonze umurongo, biganjemo; abagore, abakobwa, ndetse n'abagabo. Imbere hakaba hari umugabo wambaye ikanzu y'abasiramu.

Ukuboko kwambaye ishati y'umukara kukaba gufite urupapuro, ubona ko munsi yayo hariho indobo ifite umuvuniko w'umukara hirya hakaba hari abandi bantu bagaragara gusa batagaragara mu masura.

Abantu benshi b'abagore bahagaze imbere y'amadapo afite ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, hakaba hari abagore bambaye imikenyero bamanitse ikiganza.

Benshi bari mu nzu nini cyane ikaba ifite parafo y'umweru, ikaba iteye nka esikariye. Imbere yabo bantu hhakaba ari amamikoro, ndetse n'ubucupa bw'amazi, bakaba bicaye mu ntebe z'imikara imbere yabo akaba ari umugabo ufite kamera.

Ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi hakaba harimo ijambo ryanditseho pi esidi bikaba biri mu mabara y'ubururu.

Umugabo wambaye amarinete afite ibirahuri bibonerana, ndetse akaba yambaye ishati y'umweru na karavati y'umutuku irimo uturongo twumweru, inyuma ye hakaba ari ibara ry'umukara.

Umugore wambaye ishati y'umweru w'umwirabura ufite imisatsi idasutse, akaba yicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye hakaba hari urukuta r'wumweru, imbere ye hakaba hari imeza iriho ibipapuro byinshi.

Abantu benshi bari mu nzu nini, hakaba harimo abagore, abagabo, imbere yabo hakaba hari amamikoro n'uducupa tw'amazi.

Abantu benshi bari ahantu hari amadarapo afite ibara ry'umutuku, umweru n'umukara, n'inyuguti zamagambo y'umukara, bakaba imbere yabo hari abapolisi benshi.

Abantu batatu barimo abagore babiri n'umugabo umwe umugabo akaba yambaye ikositimu y'ubururu ishati y'umweru na karuvati y'umutuku; umugore we akaba yambaye amarinete afite ibirahure bibonerana n'agakanzu kajya gusa n'umweru; mugihe undi we yambaye ikote akaba afite imisatsi y'umukara idasutse gusa akaba atagaragara mumaso.

Umukuru w'igihugu w'u Rwanda H.E Paul Kagame, akaba yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, karuvati y'umukara, ishati y'umweru, akaba yambaye amarinete abonerana, akaba ari kumwe n'umufasha we Jeannette Paul Kagame, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu harimo umugore urimo hagati wambaye imikenyero y'umutuku.

Umugore wambaye ikanzu yo mu gitenge, akaba afite agashanete mu ijosi, akaba afite imisatsi y'umukara ndetse akaba ateruye igitabo, imbere ye hakaba hari indabyo.

Umugore wambaye ingofero y'umweru na lakosite y'umukara, akaba afite idarapo mu ntoki ifite ibara ry'umweru n'ubururu, umutuku utagaragara neza, imbere ye haakaba hari mikoro inyuma ye hakaba hari icyapa kiriho umukuru w'igihugu hizi ekiselense Paul Kagame.

Ikoti rya kositimu ry'umukara, ipantaro y'umukara, akaba yambariyemo ishati y'umweru ndetse na karuvati, akaba afite umusatsi, akaba ari umwirabura. Inyuma ye hakaba hagaragara ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi, barimo; abagabo, abagore, abagabo bakaba bambaye amakositimu, abagore bakaba bambaye imikenyero, hagati yabo hakaba harimo umukuru w'igihugu hizegiserensi Paul Kagame.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, abagabo bakaba bambaye amakositimu n'amacongo, abagore bakaba bambaye imikenyero, hakaba harimo n'umukuru w'igihugu mu Rwanda hisi egiserensi Paul Kagame, bose bakaba bahagaze.

Abantu benshi harimo abahagaze ndetse n'abicaye, bakaba bari ahantu hari inzu nyinshi, imbere yabo hakaba hari intebe z'ubururu ndetse n'imeza ifite ibitambaro by'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto esheshatu ndetse ukaba uri kunyuramo n'imodoka itwara imizigo ifite ibara ry'umweru n'umukara, muri izo moto hakaba harimo izitwaye abagenzi.

Mu umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo abantu benshi n'ibinyabiziga byinshi gusa bitagaragara neza hakaba harimo n'ikinyabiziga kigaragara inyuma cyanditse Rimoze kikaba gifite ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu.

Imodoka y'umuhondo iri mu muhanda wa kaburimbo ikaba ifiteyuma shitingi ifite ibara ry'umweru hirya yawo akaba ari umuntu gusa utagaragara neza iburyo bw'iyo modoka akaba ari ibiti ndetse n'ihema ry'icyatsi ribonerana.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso ifite ibara ry'ubururu, inyuma ikaba ifite shitingi y'umukara, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo urimo ibindi binyabiziga, moto ebyiri, hakaba hirya hari amazu.

Ikinyabiziga kirekire, gitwara imizigo, imbere hacyo hakaba ari ibara ry'umweru, inyuma kikaba gifite ibara ry'umukara, kikaba gifite amapine atandatu, imbere yacyo hakaba hari kunyuraho umunyonzi.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ikaba ikuruye ikindi kinyabiziga gifite ikintu kinini gipakirwamo amazi cyangwa se ibindi bikorwa runaka gusa bijyanye n'ibisukika.

Imodoka ndende ipakira imizigo ifite ibara ry'umweru, ikaba ifite urugi rumwe ndetse ifite shitingi y'ubururu inyuma, ikaba iri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, hirya hakaba hari ibiti.

Imodoka yo mu bwoko bwa hoho ipakira imizigo, ikaba ifite ibara ry'umutuku, inyuma hakaba hari shitingi, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo hirya hakaba hari abantu bari gukora ibikorwa bakaba barashyizeho akantu k'icyatsi.

Imodoka itwara imizigo, ikaba ifite ibara ry'umweru, ndetse n'ahajya imizigo, hafite ibara ry'ubururu, ikaba yikoreye ibintu byinshi biziritse n'imigozi, imbere yayo hakaba hari ibindi binyabiziga biri kuhanyura, ama moto, igare, ndetse n'umunyamaguru umwe.

Imodoka ipakira imizigo ifite ibara ry'umweru, yo mu bwoko bwa fuso, ikaba inyuma ifite ishitingi y'umukara, ikaba iri mu muhanda. Ukaba ukikijwe n'ibiti.

Ubwoko bwa howo ifite ibara ry'umutuku ipakiye, ikaba ifite amashitingi y'ubururu, iri mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti byinshi.

Imodoka ifite ibara ry'icyatsi ikaba ari imodoka yo mu bwoko bwa fuso itwara imizigo ,inyuma ikaba ifite shitingi y'ubururu ,inyuma yayo hakaba hari guturukayo indi modoka bikaba biri mu muhanda wa kaburimbo, mu nzira y'abanyamaguru hakaba hari kurengayo umuntu.

Imodoka nyinshi ziparitse zikaba zifite ibara ry'umweru, akaba ari imodoka enye eshatu zigaragara n'indi imwe itagaragara neza. Inyuma yazo hakaba hari moto idafite umuntu imbere na hakaba hari izindi moto gusa zitagaragara neza n'imitaka.

Imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa toyota zikaba ziri mu muhanda wa kaburimbo imwe ikaba ifite ibara ry'umweru harimo n'umutuku muke nindi ikaba ifite ibara ry'umukara ifite ibara ry'umweru inyuma hakaba harimo umuntu ndetse uwo muhanda ukaba uri kunyuramo na moto ebyiri.

Bitende gifite amapine atatu kikaba gifite ibara ry'ubururu, ndetse n'ibara ry'umweru kikaba kiri muhanda wa kaburimbo, imbere yacyo hakaba harimo imodoka iparitse. Mu muhanda w'abanyamaguru hakaba harimo umugore ufite indobo irimo ibintu.

Ikinyamitende cy'amapine atatu, gifite ibara ry'ubururu, inyuma gipakira imizingo, kikaba cyegeranye n'indi modoka y'umukara, bikaba biri mu muhanda wa kaburimbo, hakaba hari abantu bagaragara amaguru, bari inyuma batagaragara amaso.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri, imwe ikaba fite ibara ry'umweru ndetse n'indi yo mu bwoko bwa Fuso, ikaba ifite ibara ry'umweru, imbere yaho hakaba hari umunyamaguru utwaye igare, akaba ari kurisunika, rikaba ryikoreye igitoki, n'ibindi bintu bitandukanye.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ikurura imizigo, icy'imbere cyayo kikaba gifite ibara ry'umweru, icy'inyuma cy'igikontineri kikaba gifite ibara ry'umutuku, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka yo mu bwoko bwa tagisi ikaba ifite ibara ry'umweru ryacanye amatara y'umuhondo ikaba ifite n'utundi tubara tumeze nk'utudomo tw'icyatsi ikaba umuhanda wa kaburimbo imbere yayo akaba hari abanyamaguru bahagaze harimo umugore wambaye ibitenge n'undi mugabo utagaragara mu isura neza.

Imodoka itwara abagenzi benshi muri rusange, ifite ibara ry'ubururu, umweru, ikaba iri muri gare, hirya hakaba hari amazu menshi.

Imodoka y'umuryango umwe ikaba ifata ibara ry'ivu ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi, ikaba iri kugana imbere.

Ikinyabiziga gifite amapine atatu kikaba gifite ibara ry'ubururu, inyuma kikaba gifite shitingi y'umweru kikaba kiri mu muhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'ibiti byinshi biri ibumoso bwawo.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo igare rimwe ritwawe n'umuntu uhetse umufuka muremure w'umweru, imbere ye hakaba hari guturuka imodoka igaragara igice hirya hakaba hari ibindi bikorwa harimo ibiti.

Imodoka ebyiri ziteganye, imwe ikaba igaragara, aho shoferi atwarira, ikaba ifite ibara ry'umweru, mu gihe icyo ikuruye, nta kintu na kimwe kirimo, hakaba hari indi iri iruhande rwayo itagaragara, aho shoferi abari, zikaba ziri mu muhanda wa kaburimbo.

Ubwoko bwa Coaster ya Star, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, ikaba ifite ibara ry'umweru, intebe z'umutuku, imbere hakaba handitseho ijambo Star riri mu ibara ry'umuhondo.

Imodoka ipakira imizigo yo mu bwoko bwa fuso, ikaba ifite ibara ry'umweru, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, inyuma hakaba hari umugabo wicaye kuri shitingi y'umukara, akaba yambaye isarubeti y'ubururu.

Imodoka y'ibinyabiziga bitatu, ikaba ifite ibara ry'ubururu n'umukara, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo. Hirya yayo ho gato, hakaba hari indi moto itwawe n'umuntu wambaye kasike y'umuhondo, ijiri y'umuhondo n'ubururu, nikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'amapine atatu gifite ibara ry'ubururu, inyuma kikaba gifite shitingi y'ubururu, kikaba kiriho abantu babiri gusa, ugitwaye we akaba atagaragara neza, muri uwo muhanda hakaba hari kunyuramo abantu babiri mu muhanda w'abanyamaguru.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso ifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umutuku, ikaba iparitse, inyuma yayo hakaba nindi modoka y'umweru igaragara igice, hirya hakaba hari amazu hakaba hari n'abantu batagaragara neza.

Bisi itwarira abagenzi muri rusange ya Ritiko ikaba ifite ibara ry'umweru n'icyatsi n'ibirahure by'umukara bya fime, imbere yayo hakaba hari moto itwawe n'uyitwaye n'umugenzi wambaye igisurubeti cy'ubururu, uwo muhanda ukaba ari kunyuramo ibindi binyabiziga biri inyuma gusa bitagaragara neza harimo moto n'imodoka itagaragara neza.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso ifite ibara ry'umweru, inyuma hayo hakaba hatwikiriye, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, umuhanda ukikijwe n'ibiti.

Moto nyinshi ziparitse hakaba hari abamotari benshi bambaye amajiri y'umuhondo ndetse harimo n'ibara ry'ubururu, imbere yayo hakaba hari amazu ari kwaka.

Imodoka ifite ibara ry'umweru iri mu bwoko bwa Fuso, ikaba ifite ishitingi y'umukara inyuma, ikaba iri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, uwo muhanda ukaba unyuramo n'igare ritwawe n'umuntu upakiye umufuka w'umweru inyuma.

Imodoka y'umweru ya Kwasiteri ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yayo hakaba hagaragara umuntu utagaragara mu maso wambaye ikote ry'umukara, ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umweru, hirya hakaba hagaragara ipato ry'amashanyarazi rirerire.

Abantu benshi batagaragara neza, hakaba harimo abicaye, akaba ari umwe wicaye wenyine, wambaye ishati y'umukara n'ijipo y'umutuku. Akaba ari n'undi mugore wambaye ijire y'umuhondo.

Intebe nyinshi ziri mu ibara ry'icyatsi hagati hakaba harimo akayira abantu banyuramo ka amayesikariye, hirya na ho hakaba hari izindi ntebe z'icyatsi zitagaragara neza, inyuma hakaba hari abantu gusa batagaragara neza.

Ikibuga kirimo fire ikinirwaho tenisi, kikaba hirya hakaba hari igipangu kiriho icyapa cyanditseho ayiti efu iri mu nyuguti z'umweru, akaba ari icyapa cy'umukara.

Abantu benshi bari mukibuga cy'umupira, kikaba gifite imirongo myinshi y'umweru. amapoto y'umweru, hakaba hari umuntu wunamye, uri gufunga rasi, wambaye ikabutura y'ubururu.

Ikibuga cya basikete gifite imirongo y'umweru, hakaba harimo umutuku, icyatsi kikaba gifite paniye, akaba ari ikibuga gikikijwe n'ibiti byinshi inyuma hakaba hagaragara amazu ariko atagaragara neza.

Kiri mu ishusho y'uruziga kikaba gifite umuzenguruko w'umutuku hakabayuramo agakato k'umutuku kikaba gifite ikirango cy'umukara mu gihe imbere ari umweru aka handitseho ngo no pakingi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kikaba ari icyapa cya mpande enye, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, akaba yanditse ati : "buriji", kikaba kiri imbere y'ipoto rirerire, kikaba kiri imbere y'umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, mu muhanda w'abanyamaguru hakaba hari kunyuramo abantu.

Icyapa cya mpande enye gifite ibara ry'umurongo umuzenguruko w'umukara, kikaba gifite ikirango cy'umukara, inyuma yacyo hakaba hagaragara utudomo dutatse ndetse n'umweru.

Icyapa cya mpandenye gifite ibara ry'umuhondo n'umukara, kikaba gifite ibirango by'umukara bimeze nka ta, inyuma yacyo hakaba hari ibara ry'umweru.

Umuhanda w'abanyamaguru hirya hakaba hari jaride, hakaba ari n'undi muhanda wa kaburimbo uri kunyuramo moto ebyiri, imbere y'uwo muhanda hakaba hari icyapa cya mpande esheshatu cyanditseho stop kiri mu ibara ry'umutuku n'inyuguti zandikishijwe umweru.

Abantu batatu bari kumanika icyapa akaba ari icyapa cya mpande enye, kiriho kamera hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, sipide kamera ahedi. Hejuru yacyo hakaba hari ikindi kiri mu ishusho y'uruzeru kirimo mirongo itandatu kikaba gifite ibara ry'umutuku.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu akaba ari umutuku, umuhondo kikaba gifite ibirango by'umukara, inyuma yacyo hakaba hari ishusho y'umweru gusa.

Icyapa cya keji magana atanu na rimwe seti, kikaba ari umweru, inyuguti zikaba zanditse mu ibara ry'umukara, imbere yacyo hakaba umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga na kwasiteri y'umweru ifite ibara ry'icyatsi.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru kikaba gifite ibirango by'umukara imbere yacyo hakaba hagaragara inzira ya kaburimbo kikaba gikikijwe n'ibiti kiba ari icyapa kimanitse ku cyuma kirekire.

Urukuta rw'igipangu ruriho icyapa cya mpande enye, gifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara, hakaba hariho inyuguti zanditse mu ibara ry'umukara.

Gifite umuzenguruko w'umutuku kikaba kiri mu ishusho y'uruziga kikaba gifite ibara ry'umweru hagati ndetse kikaba cyanditsemo mirong'itandatu kirometero bikaba biri mu ibara ry'umukara.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, kikaba gifite ibirango by'umukara, kikaba kiri imbere y'umuhanda, hirya hakaba haparitse imodoka iri imbere y'inzu ifite igisenge cy'umukara.

Imodoka y'umukara ifite inyuma ku ipine icyapa cyanditseho safari, akaba aho igiye gukatira hari umugore uhari uri imbere y'ibyapa bibiri: kimwe cy'umweru n'ikindi cy'icyatsi.

Icyapa cya mpande eshatu kikaba gifite ibara ry'umweru n'umutuku, ibirango byacyo bikaba biri mu ibara ry'umukara, kikaba gifite ikirango kimeze nk'umusaraba.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku n'ibara ry'umweru, kikaba gifite ibirango by'umukara. Imbere yacyo hakaba hari urukuta rurerure rwubakishijwe amabuye. Halaba hariho igipangu kiriho amagiriyaje y'umweru.

Icyapa cya mande enye kikaba gifite ibara ry'umuhondo ibirango by'umukara, inyuma yacyo hakaba hagaragara ibara ry'umukara.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ibara ry'umutuku ndetse n'iry'umweru, hagati hakaba harimo ikirango cy'umukara. Inyuma y'icyo cyapa hakaba hari ibara ry'umweru gusa..

Ikibuga cya mpandeshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ibara ry'umweru kikaba gifite ibirango by'umukara, kikaba kimanitse ku gapoto gatoya. Imbere yako hakaba hari urukuta rw'amabuye ndetse hejuru y'urwo rukuta hakaba hari ibyatsi. Iki cyapa kikaba kimanitse imbere y'umuhanda inyuma yacyo hakaba hari amazu.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga kikaba gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru kikaba cyanditseho mirongo itatu ikaba iri m'ibara ry'umukara ndetse inyuma yacyo hakaba hagaragara ibara ry'umweru n'utudomo.

Ishusho y'uruziga. kikaba gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru. kikaba gifite ibirango by'umukara binyuzemo akarongo k'umutuku. Inyuma yacyo akaba ari umweru.

Icyapa cya mande enye, kikaba gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, ibirango byacyo bikaba ari umukara, inyuma hakaba hagaragara ibara ry'umweruru gusa.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, kikaba giteretse ku cyuma hasi kikaba cyicaye ku kantu k'umukara, inyuma yacyo hakaba hagaragara umweru gusa.

Inzu ya etaje ifite amadirishya y'umukara n'amarido y'umweru. Ikaba ifite igipangu cyubakishijwe amatafari ya mpunyu. Hejuru kikaba gifite akarange k'umweru.

Abantu benshi bari imbere y'amazu menshi, agiye afite ibyapa hejuru, akaba imbere yabo hari imitaka myinshi, iri mu mabara agiye atandukanye, icyatsi, umutuku.

Abantu batagaragara imitwe bakaba bari mu muhanda, hakaba harimo uwambaye imyenda y'umweru n'uwambaye ipantaro y'umukara, imbere yabo akaba harimo imodoka nayo itagaragara neza iparitse y'umutuku.

Moto ziparitse imbere yazo hakaba hari abantu bagiye batandukanya, abicaye, abahagaze hakaba hari n'umumotari wambaye kasike y'umukara akaba ari kuri moto.

Amazu menshi arimo aya etage n'amazu ya cadasitere, amwe akaba afite ibara ry'umweru n'ibisenge by'umukara, andi akaba afite ibisenge by'umutuku, akaba ari amazu menshi arimo ibiti, akaba herereye Kimironko.

Inzu ifite igipangu gifite amagiriyaje y'umukara akaba ari inzu ifite ibara ry'umweru ya etage ndende hirya yayo hakaba hagaragara ibiti by'umukindo ndetse n'ikindi giti.

Inzu z'ama etage zigiye ziri ku murongo umwe, zikaba zifite ibipangu by'umukara, imbere yazo hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka ifite ibara ry'umukara, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo. Hirya yayo akaba ari amazu ndetse hakaba hari inzu ifite igipangu cy'icyatsi, imbere yacyo hakaba hari icyapa cy'umutuku.

Umuhanda w'amabuye ukikijwe n'amabotike ndetse n'inzu zo kubamo ukaba urimo umumotari wambaye kasike y'umutuku ndetse n'ikote ry'umukara akaba ari kuri moto hirya hakaba hari abantu babiri bagaragara b'abagore.

Umuhanda w'ibitaka ukaba urimo imodoka imwe y'umukara imbere yayo hakaba hari umuntu gusa utagaragara neza hakaba ari umuhanda inyuma yaho uriho abantu benshi hakaba hari undi muntu wambaye umupira w'ubururu uri kuwunyurwmo.

Sitasiyo batangiraho esance ifite ibara ry'umweru ikaba iriho inyuguti zanditseho Rubis ziri mu ibara ry'umutuku imbere hakaba hari amaduka aparitse atagaragara neza agaragara hejuru gusa inyuma yayo hakaba hari inzu ya etage.

Inzu zigaragara ibisenge, hakaba hari n'indi nzu iri hirya yazo ya etaje ikaba ari inzu ndende igeretse inshuro enye.

Inzu zigaragara ibisenge byazo, iri inyuma cyane ikaba ifite ibisenge bijya gusa nka orange ibindi bikaba ari umutuku, hakaba hagaragaramo insina nyinshi.

Imodoka ifite ibara ry'umukara, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, imbere yayo hakaba hari icyapa cy'umutuku ndetse n'igipangu cyubakishijwe amatafari ya Ruriba.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba wegeranye n'amazu menshi, inyuma yayo hakaba hari n'ama etaje, amenshi akaba agaragara ibisenge, akaba ari umuhanda uriho n'ibiti n'insinga zinyura hejuru y'ayo mazu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitagaragara neza, gusa hakaba harimo moto iriho umuntu uyitwaye wambaye kasiki y'umuhondo, ijire y'umuhondo n'ubururu, akaba ari moto y'umutuku, hirya hakaba hari ikindi kinyabiziga kitagaragara neza. cy'ubururu

Umuhanda wa kaburimbo, ukaba uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi. Hgati akaba ari ikizeru, akaba ari ya mihanda banyuramo bazengurutse. Hagati hakaba hagaragaramo ibiti byinshi ndetse n'akarangacyerekezo k'umutuku.

Umuhanda w'igitaka, imbere hakaba arindi muhanda wa kaburimbo, urimo imodoka ebyiri, imodoka y'umutuku yo mu bwoko bwa hoho, itwara ibinyabiziga, itwara imizigo, hakaba hari indi modoka y'umweru, ifunguye umuryango.

Umuhanda wisukira mu wundi muhanda wa kaburimbo, ukaba ufite amapoto ariho amatara amurika mu muhanda. Ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi iburyo ndetse n'ibumoso.

Imodoka y'umweru ipakira imizigo, imbere yayo hakaba hari igare ririho umuntu, hirya hakaba hari guturukayo imodoka y'ivatiri, hirya y'umuhanda hakaba hari amazu ndetse n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uri kunyuramo ibinyabiziga nka moto n'imodoka iri kure itagaragara neza, imbere y'uwo muhanda hakaba hari akazu abanyamaguru bicaramo bategereje bisi gafite ibara ry'ubururu ndetse kanasakaye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo icagaguye y'umweru, akaba ari umuhanda ufite ibisate bibiri bitandukanywa n'akarondorondo k'ubutaka, igisate kimwe kikaba kiri kunyuramo moto.

Mu muhanda wa kaburimbo imbere yawo hakaba hari inzira ebyiri, ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi n'amazu atagaragara neza kubera ibiti.

Inzira inyuramo abanyamaguru, ikaba ari inzira yubakishijwe amapave, hirya ibumoso n'iburyo hakaba hari jaride irimo ibiti bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo uturangacyerekezo tujya imbere, hakurya y'umuhanda hakaba ari umuntu utagaragara mu maso wambaye agapira k'umutuku, ndetse n'ipantaro ya kaki n'inkweto z'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ikorosi, ukaba uri kunyuramo abantu batagaragara neza, hirya hakaba hari urukuta rw'amabuye, akaba ari umuhanda ku nguni zawo ufite ibara ry'umukara n'umweru.

Imodoka ifite ibara ry'umutuku ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, umuhanda wagutse ukikijwe n'ibiti byinshi, hakaba arimo amapoto atagaragara neza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate bibiri, bitandukanywa n'uturondorondo tw'ubutaka, hakaba harimo imodoka ebyiri na moto imwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari utagaragara neza wambaye ijiri y'icyatsi n'ubururu bitagaragara neza, imbere yaho hakaba hari guturukayo abantu ndetse na moto hakaba harimo n'imirongo icagaguye y'umweru, aho abanyamaguru banyura bambuka umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, ukaba ufite imirongo icagaguyeye minini, y'umweru, aho abanyamaguru banyura ,muri iyo nzira y'abanyamaguru hakaba harimo kwambukiramo umuntu umwe.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo aho abanyamaguru banyura bambukiranya umuhanda, hakaba hari imirongo y'umweru icagaguye, imbere yayo mu gisate cyo hirya hakaba hari amamoto ari gutambuka.

Umuhanda wa kaburimbo, ukaba urimo moto eshatu, zitwawe n'umuntu n'undi muntu zihetse, hirya hakaba igikamyo cy'ubururu, uwo muhanda ukaba urimo uturondarondo tw'ubutaka.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibyerekezo bigiye bitandukanye. Hakaba harimo abantu batwaye, amagare umwe akaba ahetse umugenzi imbere hakaba hari ikiraro.

Umuhanda wa kaburimbo imbere yaho hakaba hagaragara ibinyabiziga biri guturukayo gusa bitagaragara neza birimo moto n'ibindi binyabiziga bisanzwe, ubona ko ari umuhanda iburyo n'ibumoso ukikijwe n'ibiti byinshi, hakaba hari amapoto ariho amatara amurika mu muhanda.

Umumotari uri kunyura mu muhanda wa kaburimbo akaba ari kumanuka mu gihe hari ari undi motari nawe ari kuzamuka wambaye ijiriy'umuhondo rifite ibara ry'ubururu bakaba bari mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka ziparitse imbere y'umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate byinshi, akaba ari imodoka y'umweru ifite n'ibara ry'umuhondo, hakaba hari n'indi ngenzi yayo nayo ifite ibara ry'umweru n'iry'umuhondo, bikaba biparitse imbere y'inzu.